Agakinisho k'abana ndetse hari n'uturabyo twiza, dufasha abana kwisanzura mu gukina bishimye, kandi bigafasha n'abantu bakuru kuba ukina n'abana ukamera neza.

Kandagira ukarabe iriho ikipido kiba kirimo amazi ya Jibu, ihagaritse mu kibuga cy'umucaca, ndetse kandi kandagira ukarabe, ika ifasha abantu gukaraba intoki birinda umwanda ndetse n' indwara ziterwa n'umwanda.

Igikuta gishushanyijeho ikintu kinini cyane ndetse gifasha n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza mu kwiga ibintu bishushanyije banabibona.

Ibyicungo bifasha abana kwishimisha bifite amabara y'umuhondo, umutuku ndetse biriho n'ibishushanyo byiza bigafasha abana mu kwinezeza no kwishimisha mu gihe batembereye.

Ikigo cy'amashuri kigamo abana b'incuke, giteye irangi ry'umweru, gisa neza gishakajwe n'amabati y'umweru, kandi gikikijwe n'ibiti byiza bimeze neza.

Igikuta giteye irangi ry'umweru, gishushanyijeho ibikoresho byinshi bitandukanye harimo ingorofani, umwiko ndetse ibyo ngibyo bakaba babyifashisha mu gihe bari kubaka.

Ibyicungo by'abana bifite amabara atandukanye, umutuku, umuhondo, icyatsi ndetse n'umweru, bibafasha kwinezeza no kwishimisha kugira ngo bumve batekanye ndetse bumve banezerewe.

Amapave n'inzu iteye irangira igihe risa n'itukura yubatse neza ndetse ni iy'ubucuruzi, aba baturage biteza imbere ndetse babona n'aho bahahira byoroshye.

Igikinisho cy'amabara menshi umuhondo, umutuku, ubururu, gifasha abana kwishimisha ndetse no kumva baruhutse mu mutwe, bituma bumva bishimye bameze neza.

Igishushanyo gishushanyije ku gikuta n'ububuryo gikuramo mu gihe kiri kumera, bifasha abanyeshuri kumenya uburyo ibishyimbo bimera n'igihe bimerera n'igihe bifata kugira ngo byere.

Ibikoresho bifashisha mu gihe bari gukora ibikoresho ngororamubiri, harimo imipira, imigozi yo gusimbuka ndetse n'ibintu byinshi bitandukanye.

Ikibuga gishya cyo ku kigo cy'amashuri hahagaritsemo idarapo ry'igihugu n'amashuri yubakisha ama amatafari ahiye ndetse asakaje n'amabati y'ubururu, ni meza cyane asa naho yubatswe vuba.

Ibikoresho by'abanyeshuri bifashisha mu gihe bari kwiga na matematikali z'ubwoko bubiri, hari iya mbere ishushanyijeho Afurika cyangwa se umubumbe w'isi, hari n'indi itukura, haba harimo ibikoresho byinshi bitandukanye: amarate, kompa n'udutsidisho.

Igiti kiza gihagaze mu kigo cy'amashuri cyubakishijwe amatafari ahiye, amabati y'imyeru, gifite amaderisha y'icyatsi ndetse gifitemo n'umucaca mwiza cyane, gifite n'irangi rike ry'umweru.

Ibikoresho abanyeshuri bifashisha gushushanya, harimo amakereyo, harimo amakaye, harimo amakaramu ndetse n'amabara y'ubwoko bwose, ibyo bibafasha mu gushushanya ibintu byinshi bitandukanye.

Matematikali ibamo ibikoresho nk'amarati, kompa ndetse n'amakereleyo ifasha abanyeshuri kwiga uburyo baca imirongo no ku buryo baca n'andi mashusho atandukanye.

Icyapa cyanditseho ''igororero ry'abana rya Nyagatare'' rifasha abana mu kubagorora neza, kugira ngo bagabanye imico mibi bafite, nabo babe abantu nk'abandi kandi bamere neza bisange ku muryango nyarwanda.

Matemayikale ifite ibara ry'umutuku ndetse n'umuhondo bakoresha mu gihe bari kwiga amasomo y'imibare, haba harimo amarate, amakereyo na kompa, zifasha abanyeshuri mu gushushanya ibishushanyo bitandukanye.

Icyumba kimeze neza gisa neza kirimo amabara y'icyatsi, umuhondo ndetse kirimo n'utuntu dusa n'utu nyenyeri, gifasha abana mu kwiga no mu kumva bameze neza kuko gisa neza uburyo bwose bushoboka.

Ibishushanyo byiza biriho abakobwa n'abahungu, abakobwa bakaba bambaye amakanzu y'ubururu n'amasogisi y'umweru, abahungu bakaba bambaye amashati y'ubururu ndetse n'ipantaro y'umweru n'amasogisi y'umweru.

Igishushanyo gishushanyijeho umwana w'umuhungu ndetse ngo ahora ravuga buri gihe, ifasha abana mu kumenya uburyo bitwara muri bagenzi babo kandi bikabafasha mu kubaho, babanye n'abandi babana neza.

Ikigo cy'amashuri cy'Urwunge rw'Amashuri rwa Nyagatare kirererwamo abana benshi bakabahereza uburere bwiza babigisha, herererwamo abana kuva mu wa mbere w'amashuri abanza kugeza mu wa gatantu ndetse n'amashuri yisumbuye.

Ibishushanyo by'amoko atandukanye bifite n'amabara atandukanye n'amabara y'umutuku, amabara y'icyatsi, amabara y'umweru, amabara y'ubururu, bifasha abanyeshuri mu kwiga kubara no gusoma.

Kompa ebyiri, agasisho kamwe n'agasongozo kamwe, amarati ane na matematikari imwe bitetse ku rupapu rw'umweru bifasha abanyeshuri kwiga imibare.

Ikibuga bakinira basiketi kiri mu kigo cy'amashuri, ni ikibuga kiza gifasha abanyeshuri gukina, kwishimisha ndetse bashimisha na bagenzi babo kandi bikabasaba bikabafasha gusabana n'abantu.

Ahantu heza cyane hari amabara menshi abereye ijisho, hariho amabara y'ubururu, amabara y'umuhondo, amabara y'umutuku, n'amabara y'umweru afasha abana kureba kandi bakabona bishimye cyane.

Ibishushanyo bibiri kimwe cyitwa A ikindi cyitwa B, icyambere gishushanyijeho abanyeshuri bambaye imyambaro y'ubururu nigitaka, ikindi kiriho amashuri ndetse n'ikindi kimeze nk'inkoko.

Abantu bari kugenda basa naho bari ku nyubako nziza yubakishijwe amatafari ahiye ndetse hariho n'ikigega, hakurutiye n'ibyuma biteye irange ry'umutuku.

Umunyeshuri uhagaze imbere ku kibaho, wagiye gu gukora ibibazo mwarimu arimo amubaza, bimufasha kugira ngo amenye anasobanukirwe ibyo barimo biga mu gihe bari mu ishuri ndetse bikamufasha kugira ngo abimenye, asobanure n'abandi banyeshuri.

Ikigo cya Karangazi cy'amashuri yisumbuye, kirirwamo abana batandukanye baje gufata uburezi, ndetse bakamenya uburyo bitwara muri bagenzi babo, bakanateza imbere ubwonko bwabo.

Umwarimu uhagaze imbere y'abanyeshuri uri kubigisha ibintu bitandukanye aho arimo kubabwira uburyo bakwiga ndetse bagafata neza kandi n'abanyeshuri barabyishimiye cyane.

Abanyeshuri bicaye batuje, bari kumwe na mwarimu bumva ibyo ababwira kandi ubona bashaka kubyumva neza, bashaka no kubyumvira kandi rwose babishyizeho umuhate.

Abanyeshuri bambaye amashati y'umweru, bari kumwe na mwarimu ufite porojekiteri iporojekise ibintu bagiye kwiga, akaba ari bigisha ibintu abigisha bitandukanye.

Ikigo cy'amashuri cyubakishije amatafari ahiye gishakaje n'amabati y'ubururu giteye n'irangi ry'umweru, umuhondo hariho n'idarapo ry'igihugu rifite amabara: ubururu, umuhondo n'icyatsi.

Ibikoresho bakora mu ibumba bifasha abaturage kwiteza imbere, bibaha n'amafaranga ndetse bakiteza n'imbere, bateza imbere imiryango yabo n'abantu baturanye.

Abagabo n'abagore bari mu nama bicaye batuje ndetse ni abarimu bari kwiga ku buryo bakwigisha abanyeshuri biga mu mashuri ya kaminuza ndetse n'uburyo bajya babafashamo kugira ngo bongere ubumenyi.

Ikintu gisa n'ikibindi gikozwe mu ibumba giteretse ku runtu bw'urubaho, gifasha abaturage kuvomeramo amazi, bakifashisha gutekamo, cyakoreshwaga mu buryo bwa kera, abantu bagikoreshaga bavomesha amazi.

Ikibindi ni igikoresho cya kera, abantu bakoreshaga benga cya se bashigisha umusururu n'ikigage, cyabafashaga mu gihe cyo kunywa bakanasabana ndetse bishimye n'imiryango yabo.

Imitako myiza irimo amabara y'umutuku ndetse n'andi mabara ifasha abana n'abantu basanzwe kwishima ndetse no kwiyishimisha, ikagaragaza mu nzu neza ndetse bigatuma hasa neza bikaryohera kuhareba.

Amapave yubatse neza ndetse hari n'akantu k' baconze neza gafite uduce dutatu, hirya kaba hari n'ibindi biti byiza bitanga umwuka ku bantu bahatuye.